Urubyiruko ruri muri sare bicaye ku ntebe z'umutuku n'ameza hariho ibitambaro by'umukara, ateretseho amazi'yange, aho bari mu mahugurwa imbere yabo hari porojegiteri barikwigiraho.

Mu cyumba ahari kubera inama, harimo intebe z'ubururu n'umutuku hakaba hari umugore wa porojekise imbere ari gusobanura umushinga we, yambaye ikote ry'icyatsi, afite n'urupapuro rw'umweru mu ntoki.

Inzu yicayemo abantu intebe zisa orange hamaze kubera amatora, imbere hari abantu buri muntu wese afashe ku idarapo amanitse ikiganza cy'iburyo ari kurahirira inshingano nshya yinjiyemo.

Abagore n'abagabo bicaye mu itente, iriho amabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo, aho bicaye ku ntebe zisa umweru bari mu nama.

Umuhungu, umugabo n'umukobwa bose bambaye rinete, umuhungu wicaye hagati afite mikoro mukiganza imbere ye hateretse imashini, itasi, n'icupa ryamazi.

Inama irimo abahungu n'abakobwa bari mu marushanwa yo kwirukanka, akaba ari umukino bakina biruka bakaba bicaye, imbere ya bo ba hateretse amazi, bakaba baje mu mahugurwa.

Umugabo wambaye ikote ishati y'umweru yicaye ku ntebe y'umukara yambaye rinete, imbere ye hakaba hari indangururamajwi aho ari gusangiza ijambo, inyuma ye hari igikuta agisize amabara y'ubururu n'umuhondo.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu y'inama, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru na rinete, ufite telefone mu ntoki, n'ikaramu na jenda iteretse ku ntebe, hakaba hari n'undi mugabo wambaye kositimu n'ishati y'iroze, wegeranye n'umumama.

Umugabo wambaye ishati ya shokora wambaye rinete akaba afite baji y'umweru, ku meza hateretseho terefone, icupa ry'amazi y'Inyange inyuma ye hakaba hari umukobwa wambaye ikanzu irimo imirongo y'umweru n'umukara nundi wambaye amaherena n'ishati y'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku bari mu nama baganira hari icyapa cy'ubururu cyandikishijwe amagambo asa umweru hari amarido kuruhande hari ibyuma bibiri byifashishwa kuzana ubukonje cyangwa ubushyuhe.

Muri sare ahari kubera inama hicaye abagabo imbere umwe ufite mudasobwa mu kiganza n'umugozi w'imashini imbere hari ibipapuro hateretse uducupa tw'amazi y'inyange kuruhande hateretseho ishakoshi y'umutuku. Aba bagabo bakaba bari gukurikira inama bareba muri mudasobwa.

Sare yicayemo abagore baje mu nama, bicaye ku meza ifite ibitambaro by'umukara, imbere y'ameza hateretse amazi, hakaba hicaye umugore wambaye rinete n'ikanzu y'umukara, ufite terefone mu ntoki, bose bakaba bafite mudasobwa imbere yabo.

Inzu iri kuberamo inama aho hicaye abayobozi baje kwitabira, iyo nama hicaye umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku rupapuro rw'umweru, ku meza hateretseho amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu nama bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru, hakaba hateretseho amatasi y'icyayi n'ikawa hakaba hariho n'amazi y'inyange.

Umugabo n'umugore bicaye mu ntebe zisa icyatsi, bayoboye inama irimo abanyamahanga, imbere hateretse amazi y'inyange, inyuma hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu n'umweru no ku ruhande hari ikindi cyapa gitoya.

Abanyamuryango bicaye bari mu nama, ku meza hateretseho ikirahure n'agacupa harimo amazi ateretseho n'ibipapuro, inyuma hari ahantu batereka amakote hateretseho n'icyapa, hari n'umugore uri kubayobora mu nama.

Abanyeshuri bari barangije amahugurwa, bambaye imipira isa ubururu, n'abayobozi babo bicaye ku ntebe z'imbere, aho babahaye amaseretifika ku mahugurwa bari bamaze gukora.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu hariho amagambo yandikishijwe umweru, k'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyerekana cyangwa gisobanura uburyo hishyurwa inyungu iva mu bukode.

Urubuga rwashyizweho hifashishijwe ikoranabuhanga, mu kugenzura ibicuruzwa byawe niba byujuje ubuziranenge, ubu ni uburyo wakoresha ufungura konti kugira ngo ujye winjizamo ibicuruzwa byawe babone ko byujuje ubuziranenge.

Icyapa gisa ubururu cyandikishijwe amagambo y'umweru n'umuhondo cyasohowe n'Ikigo Gishinzwe Imisoro n'Amahoro, kiburira abantu igihe ntarengwa cyo kwishyuraho imisoro bityo ko baramutse batinze bagejeje igihe ntarengwa byatuma babaca amande.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo cya minagiri gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, inyuma hariho abagore bari gusarura ikawa, rukaba rwerekana uburyo wakuzuzamo amazina yawe, imeri, nimero ya telefone, nimero y'irangamuntu, aho utuye, tini namba yawe bikaba byakorohera kwinjira muri uru rubuga wifashishije telefone igendanwa.

Urubuga rwo kwiyandikisha ruriho ibyiciro bitatu: ubwa mbere wuzuzamo indangamuntu yawe; ubwa kabiri ushyiramo imeri yawe; ubwa gatatu ugashyiraho nimero yawe ya terefone, ubundi ugakomeza mu kwinjira.

Abamotari bari kunyura ku cyapa cya mtn hari umunara muremure ushinzwe kugeza konegisiyo ku bantu bose bakoresha mtn, haba kubakoresha simukadi cyangwa wifi.

Urubuga rw'Irembo rwafunguye serivise nshya, aho ukoresha imashini cyangwa telefone ukaba washyiraho igihe wasezeraniye mu murenge kugira ngo uhabwe icyemezo cy'uko washyingiwe.

Icyapa cy'ubururu cyandikishije amagambo y'umuhondo, hejuru cyerekana uburyo umuntu afite kudekarara mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu, kugirango abone icyangombwa cyo gucuruza hifashishijwe ikoranabuhanga, hariho uburyo wasura urubuga rwa Rwanda revenu otoriti ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Inzu irimo mudasobwa, aho abantu binjiramo bagakoresha ikoranabuhanga, bifashisha kwinjira mu rubuga rw'irembo, ukaba wahabwa serivisi zose ushaka kuri uru rubuga.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro aho abaturage binjira bikabafasha mu kwishyura imisoro hifashishijwe ikoranabuhanga.

Urubuga rw'irembo rwafunguye serivisi nshya ku rubuga, iyo serivisi ikaba itangwa na polisi y'igihugu y'u Rwanda, ikaba ifasha mu gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, no gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo, arirwo porovizwari.

Itangazo ryasohowe na minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo aho irikwerekana amasaha mashya abakozi bazajya bakoreramo, muri ayo masaha akaba ari ugutangira saa mbili kugeza saa kumi n'imwe za nimigoroba.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa bari mu ishuri bigiramo uburyo bakoresha mudasobwa. Umwarimu wambye agapfukamunwa n'umupira w'ubururu n'umweru ari kubereka uburyo bakoresha mudasobwa mu masomo yabo.

Icyapa kiriho umugabo ufite telefone mu ntoki wambaye umupira w'ubururu, akaba ari icyapa k'ikigo kirembo aho kerekana uburyo umuntu ufite imyaka cumi n'umunani udafite irangamuntu y'u Rwanda yakinjiramo akiyandikisha akajya akoresha serivise z'irembo abyikoreye.

Umuhanda urimo umugabo wambaye umupira w'ubururu ku ruhande rwe hari icyapa kiriho igipfunsi gisizwe mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hashinzwe ifoto ririho insinga zitanga amashanyarazi hepfo haparitse umumotari hari umutaka wa emutiyene.

Ipoto rishinze ku muhanda, ruriho imigozi itanga amashanyarazi, hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo imyenda imanitswe imbere ku nzugi z'iyo nyubako.

Ipoto rirerire ry'umukara rishinzwe hagati y'ibiti byinshi by'icyatsi ryegeranye n'irindi rifiteho insinga zitanga amashanyarazi akaba ari imbere y'umuhanda nyabagendwa.

Ipoto ry'umukara ritewe hagati muri pasiparume, hepfo hakorotiriye igipangu kinini cy'umweru. Imbere hari inzu ndende ifite irange ry'umuhondo n'amabati y'umutuku, iri poto rikaba rifite insinga nyinshi zitanga amashanyarazi muri izi ngo zituriye hano.

Ipoto rirerire rifite insinga nyinshi zitanga amashanyarazi imbere hari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, irimo imiryango myinshi imbere hateretseho gaze, kuruhande haparitse imodoka mu muhanda w'amapave n'indi modoka iparitse y'umukara nini.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Umuhanda w'ibinyabiziga wa feruje harimo umugabo uri kwambuka wambaye umupira w'umweru, imbere ari guturuka imodoka n'ibikamyo biri kuza na moto ziri kugenda hashinzemo amapoto arimo amatara.

Ipoto ishinzwe gutanga amashanyarazi mu ngo z'abantu, ingo zifite korutire y'indabo harimo ikigega cy'umukara kiri hejuru y'igipangu.

Abagabo n'umukobwa, bambaye ingofero z'umuhondo, bambaye ibisarubeti by'ubururu bashinzwe kubaka ibyerecyeranye n'amashanyarazi, aho barimo barasana bimwe mubikoresho by'amashanyarazi.

Kwa muganga aho haje urukiko ruje gufasha bamwe mu batishoboye hari mukobwa wambaye ipantaro y'ubururu y'ikoboyi n'umupira w'umweru wandikishijweho amagambo mu ibara ry'umutuku, bafite anvelope ebyiri mu ntoki imbere hari umugabo wunamye wambaye umupira w'umweru n'ikoti ry icyatsi ari kumuhireza bimwe mu bintu yari birakeneye.

Icyapa cyerekana ibitaro bya Kacyiru, kiri mu mabara y'umweru, hariho ikirango cy'idarapo y'u Rwanda, hakaba herekana uko abantu binjira, n'aho babafashiriza, bitewe na serivise uje gushaka kwa muganga.

Ku bitaro ahajyanwa abarwayi hariho icyapa cy'ubururu cyandikishije amagambo y'umweru, herekana aho babagira hakanerekana aho bavurira indwara z'amaso. Ibi byapa bigufasha ku kwereka aho uri bujye, inzira unyuramo bitewe n'indwara ufite bakakuvura.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umweru, abaturage bicaye bari muri Gacaca, aho iyo basoje gukora umuganda baganira na gitifu bamwe mu bamama bicaye hano bafite imitaka bitwikiriye kugira ngo izuba ritabica.

Abagabo b'imfungwa bahagaze muri pasiparume, bambaye ishati n'ikabutura biri mu mabara ya oranje bakaba bamanitse ikiganza, ku ruhande rwabo hari itente y'umweru irimo amabara y'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inzu ndende iri mu mabara y'ubururu n'umweru iri kwinjiramo imfungwa abakurikiranyweho ibyaha, batarahamwa nabyo, barinzwe n'abashinzwe kurinda gereza, hari imodoka ebyiri zishinzwe gutwara izo mfungwa.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge n'umugabo wambaye ishati y'umweru, bicaye ku ntebe za sheze b'abayobozi, bari muri gacaca, hahagaze umugabo uri kuburanishwa wambaye umwambaro w'i roza.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Gereza ibikwamo abagore bahamijwe cyangwa bakurikiranyweho ibyaha n'ubushinjacyaha, abagore basohotse bambaye ikanzu ziri mu mabara ya oranje bakaba barakatiwe, uwambaye ikanzu y'iroze akaba aba agikurikiranyweho atarashinjwa icyaha ngo kimuhame.

Inzu ifite amarangi y'umutuku yafashwe n'inkongi y'umuriro imbere hariho abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara n'icyatsi bashinzwe kuza kuzimya umuriro bari kugenda basukaho amazi.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga urimo moto y'umupolisi wambaye kasike y'umweru n'ijire y'icyatsi ku ruhande haparitse imodoka inyuma yaho hariho umwana uri kuva ku ishuri.

Umuhanda uri kunyuramo abapolisi bambaye iniforume z'umukara n'ingofero bahetse imbunda, hari kunyuramo umunyonzi wambaye umupira w'icyatsi, ku ruhande hari imitaka ya MTN n'iya Airtel, haruguru hari igikamyo kiri mu mabara y'icyatsi.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimwa umuriro, bizwi nka kizimyamoto, biri mu mabara y'umutuku n'umukara. Byandikishije amagambo afite ibara ry'umweru, bikaba bifunze mu mashashi.

Icyapa kinini kiranga ibitaro bya polisi biri kacyiru hariho nimero za telefoni wabahamagara, ukaba wabandikira imeri, imbere harimo ibiti birebire, hakaba hakiri kubakwa aho ibitaro bizashyirwa.

Imodoka ya polisi ifite amabara y'umweru n'ubururu yandikishijwemo amagambo y'umweru, ikaba yaje gutabara ahari habereye inkongi y'umuriro inzu yari yafashwe bari baje kuyizimya iyi modoka iba itwaye amazi yifashishwa mu kuzimya umuriro.

Icyapa kinini cy'umweru cyandikishije amagambo y'ubururu bwijimye akaba ari icyapa cya polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Hakaba hariho uburyo wabahamagara ukoresheje telefone cyangwa ukabandikira ukoresheje uburyo bwa imeri.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro y'ubururu afite igiseke mu ntoki, aje yegera umugabo wicaye imbere ufite urupapuro mu ntoki agiye gushyiramo. Basoje amatora ku ruhande rwe hari abagore babiri, imbere yabo hateretse mudasobwa.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu nishati y'umweru na karuvati, begeranye n'umugore wambaye ikanzu ndende y'ubururu ufite ishakoshi y'umukara n'ibipapuro mu ntoki, begeranye nundi mugabo kuruhande wambaye ishati ya karokaro aho baje kwiyamamaza, inyuma hari ibyapa biriho ifoto yumugabo uri kwiyamamaza.

Iyi ni inzu nini mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru n'ubururu hejuru ndetse n'umukara ku madirishya n'inzugi ku ruhande hari ubusitani bugaragara neza ubona butoshye, butanga umuyaga ku bagenda bose.

Umukuru w'igihugu yambaye ishati y'umweru iri mu bwoko bwa medinirwanda, yicaye imbere hateretse imeza na fayiro iriho amazi aho ari kuganira na bamwe mubayobozi ubona ko bishimye bari guseka.

Umukuru w'igihugu ahagaze mu cyumba aje gutanga urupapuro rw'itora inyuma ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'undi uri kumufasha wambaye umupira w'umweru amwereka aho yatera igikumwe mu gihe amaze gutora.

Umuhungu wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, amanitse ikiganza cy'iburyo, afashe ku idarapo, imbere ye hari mikoro yifashishwa mu kurangurura amajwi, arimo arahirira inshingano nshya yakiriye.

Umuhanda uri kugengeramo abanyamaguru, ufite rigori irimo amazi aho amazi anyura mugihe haguye imvura, imbere haparitse imodoka y'umweru, hakaba hari umukanishi uri kuyikora.

Muri gare haparikwa ibinyabiziga, bisi zizana abantu zikanabatwara haparitsemo imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu ikaba ari imodoka nini igendamo n'abantu benshi cyane.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga urimo moto hirya byaparitse imodoka y'ivatiri y'umukara n'iy'umutuku n'indi y'umweru, izi moto zikaba ziparitse hafi y'ibitaro aho hakoreshwa mituweri desante.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo moto, zifite amapine atatu, zisize irangi ry'ubururu, hepfo handitseho ijambo riri mu magambo y'umweru, izi moto zikaba zikunze gutwara imizigo.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga, harimo moto bambaye amakasike y'umutuku, hari imodoka itwaye imbaho ziziritse, hari umugabo uri kugenda apakira muri iyo modoka, ku ruhande hari ibido isa ubururu.

Umuhanda urimo igikamyo cy'umweru ku ruhande hari guturika umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ipantaro yumukara, inyuma ye hari imodoka y'umukara, ku ruhande hari umuhanda w'amapave uri kunyuramo abanyamaguru, hariho ni'icyapa, hepfo hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu irimo n'uturabyo twumweru akaba ari gusohoka mu modoka yari iparitse.

Ibi ni ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga nka za hoho n'amabisi atwara abagenzi.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga wasadutsemo, uri kunyuramo igikamyo gifite ibara ry'umutuku cyikoreye umucanga, hejuru hariho shitingi y'ubururu. Imbere hari umugabo uri ku igare wambaye ishati y'ubururu bwerurutse.

Umuhanda w'ibinyabiziga, urimo n'abanyamaguru, harimo umuntu wikoreye imifuka, hari imodoka iri imbere, iri mu mabara y'umweru, n'ibikamyo biri ku ruhande, hakaba hari icyapa imbere cyerekana ko habujijwe guhagarara, hepfo hakaba hari amazu arimo ubucuruzi.

Iyi ni inzu nini mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru n'ubururu hejuru ndetse n'umukara ku madirishya n'inzugi ku ruhande hari ubusitani bugaragara neza ubona butoshye, butanga umuyaga ku bagenda bose.

Umuhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka yigisha abantu gutwara ibinyabiziga, imbere hari ibiti, hari na korutire y'amabati nini, iri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda mutoya urimo abagenzi b'ibinyabiziga harimo imodoka na moto ku ruhande hakaba hari inzu zikorerwamo ubucuruzi, imbere hari icyapa cyamamaza henikeni sikolo.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga munini ,uririmo igikamyo gifungishije shitingi iri mu ibara ry'ubururu, inyuma hari umumotari uhetse umugore, ufite umwana wamutwikirije igitenge.

Muri gare, aho imodoka zihagarara zitwara abagenzi ndetse zikanabasiga, hari icyapa kiri mu mabara y'iroza, cyandikishijwe amagambo mu mabara y'ubururu, cyamamaza omo.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga uri kunyuramo moto ziri kubisikana imwe yerekeza hepfo indi ijya ruguru urimo icyapa cy'umweru n'umutuku, hejuru hari ibiti, hariho n'ingo zituriyemo abantu.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga harimo ibikamyo bibiri by'umweru hakaba hari kunyuramo n'abanyamaguru ku ruhande, hakaba hari inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye hakaba hari n'icyapa cyerekana ahantu abantu baza kutegera.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga birimo abamotari bambaye kasike z'umutuku bakaba bambaye amajire y'umuhondo n'icyatsi imbere hariho umuhanda abanyamaguru bambukiramo.

Imihanda ibiri ihurira mu muhanda umwe, harimo igikamyo cy'ubururu kizamuka, moto impanuka, n'izindi modoka ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe, umuntu uteruye matera kuri moto.

Agasorori gakozwe muri purastike, amagi atatu hateretsemo akandi kantu byose biri ku meza, intebe, akabati.

Abamotari baparitse bari kuganira bambaye amajire asa umuhondo n'ubururu, imbere yabo hari icyapa cy'irembo kigaragaza serivisi batanga za banki, kwishyura amazi n'umuriro hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hashinzwe igiti kirekire cyifashishijeho kandagira ukarabe yo gukoresha mu buryo bwo kunoza isuku.

Umuhanda w'amapave, urimo utuntu twubakishijwe mu mbaho dusizwe amarange y'umukara, hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umururu, uri kuri telefone, hicaye abantu baba bari kuganira n'inshuti mu gihe baba batafite ahantu hihutirwa ho kujya, hari inzu ndatse y'inyubako ikorerwamo serivise za banki, ku ruhande hari igikuta kiriho icyapa.

Umupaka w'u Rwanda na uganda hahagaze umugore ufite ivarize y'icyatsi ikaba yambaye na sharupe iri mu ibara y'umukara umweru n'umutuku inyuma hari umunara muremure imbere hari icyapa cy'ubururu.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'umukara cyerekana umuhanda ukomeza imbere, ariko urimo undi umuhanda mutoya wiyunga ku muhanda munini bijya mucyerekezo kimwe.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, gishushanyijeho imodoka mu ibara ry'umweru, akaba ari icyapa cy'aho bisi imodoka ziteganyije guhagarara zikuramo abagenzi.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali Kibagabaga ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine ku mafaranga y'u rwanda nziza hose ifite amakaro kandi ikinze neza.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga urimo abamotari ku ruhande hariho umuhanda w'abanayamaguru hateyemo pasiparume zirimo ibiti harimo icyapa kirimo ibara ry'umutuku cyanditse guhagarara.

Ibyapa biri mu ibara ry'umweru umutuku n'umukara ryerekana ko imbere hari dodani ndetse ko hari ikigo cy'amashuri hari abanyeshuri bashobora kuba bari kuva ku ishuri mu birometero ijana.

Karitsiye irimo inzu itaruzura bakiri kubaka ikikijwe n'ibiti, hakaba hari indi nzu iri mu mabara y'umweru ifite ibigega bibiri by'umukara, hakaba hari n'inzu ifite amabara y'umutuku.

Umuhanda wamabuye mu kajagari ka mbere, hariho umumotari wambaye ikoti ry'umukara na kasike y'umutuku, ku ruhande hariho inzu z'ubucuruzi, hateretse indobo, hakaba hariho amapoto ariho insinga zitanga amashanyarazi ku ngo zituriye hafi aho.

Inzu ebyiri zegeranye, ziri muri karitsiye imwe, zikaba zikoruturijwe amatafari ahiye, imbere hariho ibiti baconze, hasi hakaba hari indabo bateyemo.

Abagabo bicaye aho bacururiza ikawa imbere yabo hateretse ibinika irimo icyayi n'amatasi, bafite n'amazi imbere ku muryango hari kandagira ukarabe irimo ibara ry'ubururu itetseho isabune y'amazi y'icyatsi hejuru.

Inzu ndende iri mu bwoko bwa etaje, isize amarangi y'umweru, ifite amabati y'umutuku, hanyuzemo imigozi y'amashanyarazi, hari igikuta cy'amatafari ahiye ku ruhande rwo hasi.

Umuhanda w'abanyamaguru urimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara, imbere ye hari umuhungu uhagaze wambaye umupira wa orange, hashinzemo amapoto manini atanga amashanyarazi ku nzu z'ubucuruzi ziri hafi aho ngaho, n'umutaka wa Emutiyene wicayeho umukobwa utanga serivisi za Mobayiro Mani.

Inzu ikikijwe n'ibiti by'icyatsi, hakaba hariho intebe yo kuba wakwicaraho, hanze imbere hakaba bahacururiza ikawa, ku ruhande hari intebe zirimo imisego abantu bashobora kwicaraho mu gihe bari gufata ikawa.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka yo mu bwoko bwa rava fo, ikaba ihagaze mu gihe hari umuturage ugiye kwambuka muri zebura korosi, wambaye umupira uciyemo imirongo ya oranje n'umukara n'umweru, hepfo hakaba hari icyapa cy'umutuku cyandikishijwe amagambo y'umweru.

Umuhanda w'igitaka uri muri karitsiye, aho hari amazu, hakaba hashinzwe n'ipoto rishinzwe gutanga amashanyarazi ku ngo ziri ahongaho. Hakaba hari indabo zitewe ku muhanda, hepfo hakaba hari rigori aho amazi anyura mu gihe imvura yaguye.

Umuhanda muremure ugendamo ibinyabiziga ukasemo imirongo y'umuhondo, kuruhande hariho amafoto afite amatara kugirango amurikire ibinyabiziga nijoro. Hepfo hari ishyamba rinini.

Ikiraro kiri hagati y'imihanda umwe uri hasi undi ukaba hejuru harimo imodoka y'umukara iri kugenda hashinzwemo igiti kirekire kigera ku muhanda wo hejuru hejuru.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga birimo imodoka na moto, ku ruhande hari umuhanda w'ibitaka urimo amabuye apavomye aho unyuramo abanyamaguru, hagati hashinzemo ipoto ry'umweru, ku ruhande hakikijwe n'ibiti harimo n'icyapa.

Umuhanda w'ibinyabiziga uriho aho baparika imodoka, imbere hari umugabo uhetse igikapu cy'umukara wambaye ishati y'umweru iri ku igare, imbere hari abanyamaguru barikugenda.